Ahantu harunze shitingi ebyiri, kandi ruguru yaho hari inyubako nanone, ikorerwamo ubucuruzi, aho batanga amafilime ndetse muri sitidiyo y'umuntu, kuburyo umuntu wese uhageze abasha kubona icyo akeneye.

Imodoka iri ahantu heza cyane, iteye amabara y'ubururu, yanditseho biva mu mutima, ikaba ikorana na MTN, kugira ngo ibashe kugeza abakiriya ba MTN, ibyo bakeneye.

Urujya nuruza rw'abantu baturutse hirya no hino. Bari ahantu mu gisharagati baricaye ni benshi cyane. Ku buryo buri muntu wese waje hano aribuhave yishimye kandi bigaragara ko ari ibirori bazamo barimo barakurikirana.

Inyubako nini cyane ikorerwamo bucuruzi aho abantu benshi bayizamo baje kwiyakira cyangwa kuruhukiramo iruhande hari n'ubusitani bwiza cyane ku buryo umuntu wese uhagannye abasha kubona serivise ashaka kandi yifuza.

Ahantu haparitse moto ndetse hari n'imashini idoda ,hejuru y'imashini hari akabuni kandi iruhande rw'imashini nanone hari umuntu uri kugenda biragaragara ko ari umuntu ukorera hano ndetse ari umutayeri.

Abamotari babiri barimo barasikanya, gusa umumotari umwe yahetse umugenzi aramanuka, undi na we arazamuka afite plake magana atatu mirongo itandatu bigaragare ko na we yagiye gushaka umugenzi kugira ngo abashe kubona amafaranga.

Umuhanda mugari urimo imodoka, igare ndetse n'abantu n'imodoka nini y'ikamyo ifite ibigori ndetse haririmo n'umuhungu ufite igare uri kumwe n'umukozi wa emutiyene uri kumubikurira amafaranga hari abandi bantu bahagaze imbere.